Ifoto y'inzoga ziri mu kabari zicuruzwa z'amarikeri zinyobwa n'abantu benshi, ndetse muri rusange inzoga z'amarikeri inzoga nini zinyobwaho n'abantu benshi.

Ahacururizwa inzoga, ibinyobwa n'ibiribwa. Bitangirwa mu kabari bigiye bitandukanye, ndtese bigahabwa abantu n'izindi serivisi. Birimo umuziki n'ibindi bigiye bitandukanye bikorerwa mu kabari.

Ahacururizwa ibinyobwa, harimo inzoga, ibinyobwa nk'amafanta, hakaba ibiribwa n'ibinyobwa ndetse hakabamo imyidagaduro, kwerekana imipira, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye harimo nk'imiziki, n'ibindi by'imyidagaduro bitandukanye. Bikaba bibera mu kabari.

Akabari gatanhirwamo serivise zigiye zitandukanye, harimo ibinyobwa, ibiribwa, harimo inzoga, ndetse n'inindi bitandukanye, ndetse hakaba hatangirwamo n'izindi serivise zitandukanye. Ukaba wahumvira imiziki, imyidagaduro, kuharebera imipira, n'ibindi nigiye bitandukanye.

Ifoto yerekana ibitangirwa mu kabari ibyo wasangamo byaba ibiribwa byaba ibinyobwa ndetse n'ubwoko bwabyo wafata ukaba watuma ibyo ushaka bakabikuzanira.

Abantu bari mu kabari, bari kunywa ibinyobwa bitandukanye, harimo inzoga, fanta, ndetse n'ibindi bitandukanye bitangirwa mu kabari, bahabwe serivisi neza, kandi bari kuzihebwa mu kabari.

Icyapa cyerekana inzu icururizwamo ibinyobwa bigiye bitandukanye, harimo inzoga ndetse n'ibindi bikorerwa mu kabari, harimo inzoga, ibinyobwa ndetse n'ibiribwa bimwe na bimwe bikorerwa, bitangirwa mu kabari.

Ahacururiza ibinyobwa bigiye bitandukanye, harimo: inzoga, amaji, fanta, ndetse n'izindi serivise zigenda zitangirwa mu kabari, harimo inzoga zihiye cyane, amazi, ndetse n'ibindi wasanga mu kabari.

Ahacururizwa ibiribwa n'ibinyobwa harimo inzoga ndetse n'ibindi, hakaba ari akabari aho usangamo ibiribwa n'ibinyobwa, imiziki, imyidagaduro ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ahacururiza ibinyobwa harimo amarikeri, amaji ndetse n'ibindi byo kunywa bigiye bitandukanye. Habera imyidagaduro n'ibindi bindi bijyanye n'akabari.

Inzu icururizwamo w'amata, ndetse wasangamo ibikomoka k'umusaruro w'amata bikorerwa ku ruganda inyange. ikaba yitwa milike zone, inyange milike zone, aho wasanga kontakiti z'inyange, amata ndetse ibindi byinshi bikorerwa muri uru ruganda.

Ahacururizwa ibiribwa n'ibinyobwa muri kantine, cyangwa resitora aho usangamo fanta, hagaragara ifoto iriho fanta ifoto y'amata, dayari, ndetse hagaragaramo n'ibindi bigiye bitandukanye aho wabona ibyo kurya n'ibiribwa.

Inzu icururizwamo amata ndetse igacuruza ibiribwa n'ibinyobwa byongerera agaciro ibikomoka ku musaruro w'amata, ndetse bigatunganywa neza bigasukurwa, bikaba byacuruza bikabyara inyungu.

Ifoto igaragaza abantu bicaye mu rugo cyangwa muri kantine bari kunywa amata, bafite ibikombe bayanywera mu majaga ndetse imbere yabo hari ameza bicaye no ku ntebe, hagaragara n'ikirahure imbere yabo.

Hagaragaramo amabika yagenewe kubukwamo amata kugira ngo atangirika cyangwa firigo mu yandi magambo abikwamo amata akaba yamara igihe kirekire atarangirika kandi akimeze neza bityo abantu bakaba bayabona byoroshye.

Ikiribwa gisanzwe kiribwa kiboneka mu makantine cyangwa mu maresitora icyo kiribwa bakaba bakita capati gikozwa mu ifararine ndetse bigaragara ko uyu muntu ari kukurira muri kantine cyangwa resitora haboneka ibyo kurya.

Iduka ricuruza umusaruro w'ibikomoka ku mata, ndetse rikongerera n'agaciro ibikomoka ku mata bakoramo amata azamara igihe kirekire, ndetse bagakoramo n'ibindi binyobwa bigiye bitandukanye, bizamara igihe kandi bikongerera agaciro umusaruro w'amata.

Icyapa kerekana iduka ricuruza ibikomoka ku musaruro w'amata harimo ikivuguto, yawurute ndetse n'ibindi birimo gutangirwa muri iri duka.

Umuntu uri kunywa amata ayanywesha na keke. Bigaragara ko yaba ari nk'umunyeshuri kuko hari ikaramu. Amata ari kuyanywa ateretse ku meza, bigaragara n'akaboko afashe keke.

Ni na ni iduka cyangwa inzu itanga serivise z'ibikomoka ku mata, ndetse bigatanga n'ibiribwa bya buri munsi birimo kongera agaciro kubikomoka ku mata, ndetse n'ibindi binyobwa n'ibiribwa bigiye bitandukanye.

Ibicuruzwa biboneka mw'ikusanyirizo ry'amata ndetse ryongerera agaciro ibikomoka ku musaruro w'amata harimo imigati, amata, amayoghurt, jus ndetse nindi product wasanga muri diary.

Ubwoko bw'ibinyobwa bikozwe mu mata byongerera agaciro umusaruro w'amata haba harimo isukari binyobwa kandi biba byongewemo isukari bityo bikongera agaciro k'amata bakaba babyita yogati.

Amazi meza atunganyije akorwa n'uruganda rwa Nile akaba atunganyirizwa mu ruganda ndetse akaba yarakorewe kunywa, ndetse no kuyifashishwa mu buzima busanzwe amazi akaba ari mu iduka riyacuruza ndetse ari iruhande rw'ikarito yayo.

Ifoto y'umuntu uri kurya keke bigaragara ko ari muri kantine cyangwa ari muri resitora yagiye gufata amafunguro, bigaragara ko yicaye muri kantine cyangwa aho bafatira amafunguro ari wenyine.

Ishami ritangirwamo serivise za emutiyene harimo kubitsa amafaranga, kohereza amafaranga, ndetse n'izindi serivise harimo guswapa n'izindi serivise za emutiyeme, ukaba wazibona mu gihe gito zikwegereye kandi neza.

Ishami rya MTN, ritangirwamo serivisi za MTN, kubitsa amafaranga, kohereza amafaranga, ndetse no guswapisha, kuba wagaruza simukadi wataye n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ubisanga ku ishami ry'umurongo wa MTN ukorera mu Rwanda.

Aha hagaragaramo ugiye kohereza amafaranga kuri MTN bakakwereka amazina y'umuntu witwa Fabrice HAKUZIMANA na nimero ze 250786526883 ukaba ugiye kohereza amafaranga igihumbi(1000 rwf) ikiguzi cya serivise ni makumyabiri (20 rwf) ,Shyiramo Pini(ijambo banga) kugirango ubashe kwinjiramo, Shyiramo umubare wibanga kugirango ubashe kwinjiramo.

Uko wakwishyura amafaranga ukoresheje kode kugira ngo udahendwa ukoresheje umurongo wa emutiyeni ugahererekanya amafaranga wishyura umucuruzi cyangwa indi serivise ukoresheje telefone bidasabye gukora urugendo ndetse ukabikora udahenzwe, utanakaswe.

Abakozi ba emutiyeni, bari kwerekana uburyo wakifashisha wishyura, ukoresheje momo peyi, serivisi yo kwishyuriraho amafaranga, wifashishije ikoranabuhanga na telefoni, ndetse abo bakozi bakaba bambaye imyenda iriho ibirango bya emutiyeni, kandi bari muri biro.

Icyapa cyerekana kode y'umu ajenti cyangwa umucuruzi ukoreha mobayiro mani momo peyi kugira ngo wishyurwe hakoreshejwe umurongo wa emutiyene, ukishyura ku mafaranga ukoresheje telefone ikicarika ukoresheje umurongo wa emutiyene.

Iduka cyangwa ishami rya emutiyeni ritangirwamo serivise za emutiyeni, hagaragaramo umukobwa ndetse na serivise zitangwa ziri ku kizu cya emutiyeni, harimo kubitsa, amafaranga, kohereza amafaranga, kugura amayinite, guswapa, ndetse n'izindi serivise wakenera kuri emutiyeni wazisanga hano.

Ibigo bya emutiyene byibanze bifasha abaturage kubona serivise za emutiyene byoroshye yaba kubitsa ku mafaranga kohereza amafaranga ndetse guswapa simukadi ku bazitaye ndetse n'izindi serivise zigiye zikenewe.

Ni icyicaro cy'umurongo wa MTN umurongo witumanaho ritanga serivise zuyu murongo wa MTN nko gucuruza amainite kohereza amafaranga kubitsa no kubikura nizindi serivise zigye zitadukanye.

Umukozi wa emutiyeni, wambaye imyenda iriho ibirango by'umurongo w'itumanaho wa emutiyeni ari kumwe n'umukozi ushinzwe umutekano, bahagararanye umwe afite terefoni mu ntoki ndetse undi ari kureba yitegereza nk'aho bari kumufasha.

Biro itangirwamo serivise za emutiyene zigiye zitandukanye, aho umuntu ajyayo akavuga ikibazo afite bakamufasha, haba mu byo kohereza amafaranga, kubitsa, kubikura, ndetse n'ibindi bibazo waba ufite bakaba bagufasha kubikemura.

Inzu itangirwamo ndetse igacuruza serivise zigiye zitandukanye za MTN harimo gucuruza ama inite, kubitsa amafaranga, kubikura ndetse no gufasha abaturage mu mirimo igiye itandukanye itangwa na MTN.

Ifoto yamamaza ikirori kizabera i Kigali cy'abanyamuziki, kizabera i Kigali mu Rwanda. Kikaba ari ikirori kizaba ari abanyamuziki ndetse kikabera i Kigali. Bakaba berekana n'uko wagura amatike n'aho wayasanga.

Ni urubuga rw' ikoranabuhanga rw' ifashishwa mu gucuruza ibintu bitandukanye hifashishijwe ikoranabuhanga, ukaba wajyaho ukareba icyo ugura ukaba wanakiguriraho ndetse ugatanga komande bakaba bakikugezaho cyangwa bakakubwira uko ukibona ukoresheje urubuga rw' ikoranabuhanga.

Urubuga rucururizwaho mu buryo bw'ikoranabuhanga bita vubavuba deriva, aho ugeza abantu ibiryo imboga n'imbuto ndetse n'ibindi byo guteka bitandukanye bakabikugezaho mu rugo vuba kandi byihuse, bakabikugezaho ubihahiye ku rubuga rw'ikoranabuhanga.

Urubuga rw'itumanaho, ndetse rw'ikoranabuhanga, rugurirwaho ibiribwa bikoreye ku ikoranabuhanga, ubiguze akabigezwaho yifashishije ibinyabiziga byabugenewe, bakabikugezaho mu rugo iwawe mu gihe gito.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rucuruza ibiribwa byo guteka, ndetse bakabigeza ku muntu bamusanze mu rugo. Akihitiramo akoresheje imbuga nkoranyambaga akajyaho agahaha. Bakabimugezaho kugiciro gito, kandi yifashishije ikoranabuhanga.

Urubuga nkoranyambaga rucururizaho ibintu bitandukanye harimo firigo, ukaba wabigurira onulayini ikakugezwaho kugiciro gito kandi udahenzwe, ukabikura ku mbugankoranyambaga, ukagabanya guta igihe cyawe, ndetse bikakugeraho vuba kandi mugihe gito, ndetse bikakugeraho ari byiza kandi bikunzwe.